Ikigo gifasha abantu kubishyurira nk'igi bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye harimo gushya kw'inzu, imodoka zakoze agisida kwishyurira abantu mu bitaro.

Uburyo bukoreshwa bamamaza ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubwishingizi aho umukiriya amurangira aho yabisanga nkuko yabahamagara.

Uburyo bukoreshwa bw'ikoranabuhanga hamamazwa ikigo gishinzwe ubwishingizi bagashyiraho n'imbuga nkoranyambaga bagisangaho n'uburyo bahamagara bakeneye.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Uburyo bwifashishwa hamamazwa ikigo cy'ubwishingizi n'ubufasha gitanga ku bakigana harimo.

Akabari gakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho harimo inzoga z'amoko yose, inzoga nini n'intoya, iziri mu macupa no mavide, aho abantu bajya gabiye kuruhuka mu mutwe.

Abantu batatu bari mu kabari harimo abagore babiri n'umugabo umwe. Harimo ibicuruzwa by'amoko atandukanye y'inzoga, harimo inzoga ndende, ingufi n'iziringaniye.

Itangirwamo inzoga mu kabari, abantu basobanutse, aho bafata ibirahure bagafata ibyo bahawe bakabisuka mu birahure.

Akabari karimo icyesi, itarimo inzoga n'umuntu uri muri kontwari n'abandi bicaye inyuma ya kontwari bafite inzoga zigiye zitandukanye.

Akabari karimo abantu benshi baje kuruhura mu mutwe, bafata ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo ibisindisha, n'ibidasindisha, kandi bibujiwe ko umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani asomaho.

Igipapuro kiranga ibintu bicuruzwa aho hantu n'ibigiye bicuruzwa kuri icyo gipapuro bagashyiraho n'ibiciro byabyo kugira bifashe abahaje.

Agapapuro gakoreshwa kerekana ibyakoreshejwe n'ibyaguzwe mu buryo bugiye butandukanye harimo igiciro cy'amafaranga agiye atandukanye n'ibyafashwe.

Akabari kariho imeza iteretseho isahane, iriho ifiriti, n'ikanya, n'ibikombe birimo inzoga.

Akabari gacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kunywa n'ibyo kurya, inzoga ziri mu macupa maremare n'amagufi, aho abantu baza bakaruhuka mu mutwe no kunywa inzoga.

Akabari karangwa n'icyapa, kanditseho Amstel iri mu ivide n'kirahure, haparitse imodoka hari n'umumotari uri kugenda mu muhanda w'amabuye.

Akabari gatangirwama inzoga zigiye zitandukanye harimo na za Heineken, aho bibujijwe kuziha umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani n'umugore utwite ntiyemerewe kuzinywa.

Umuntu uri muri kontwari y'akabari irimo atajeri ipanzemo inzoga zigiye zitandukanye z'amoko yose harimo inzoga nini n'intoya.

Abantu bicaye mu kabari bari kunywa ibyo kunywa bigiye bitandukanye birimo fanta biri mu birahure biri ku meza.

Akabari gacururizwamo inzoga zigiye zitandukanye, inini n'intoya, zo mu amakesi, amafanta, amaji, n'amazi.

Akabari karimo intebe n'inzoga zigiye zitandukanye, harimo inini n'intoya, amatara yaka umutuku, ubururu n'umweru.

Akabari gacururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye nibyo kunywa. Aho abantu baza kuruhukira birebera televiziyo kugira ngo baruhure mu mutwe.

Icyapa kiranga akabari hariho n'ibikorerwamo bigiye bitandukanye haba hariho inyama ifi na nimero wabahamagaraho mu gihe waba ukeneye kuharuhukira .

Akabari gakoreramo ibintu bigiye bitandukanye harimo n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hari n'ibyo kunywa ibyo kurya, n'abaje kunywa kugira ngo baruhure mu mutwe birinde siteresi.

Mu kabari harimo inzoga zigiye zitandukanye harimo sikoro, harimo amusiteri iri mu icupa n'iri mu kirahure iteretse ku meza.

Akabari karimo inzoga zigiye zitandukanye, harimo iziri mu mavide, n'iziri mu kirahure. Ahari uburyo bwo kwishyuriraho, bigiye butandukanye, harimo momo, na eyateli mani.

Uburyo bukoreshwa herekanwa ibiranga akabari n'aho gaherereye n'ugakoreramo kugira ngo abashe kuba yakwishyurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akabari gacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo inzoga z'amoko yose, izo mu mavide, izo muri pulasitike, ibyo kurya bigiye.

Icyapa kiriho inzoga ya sikoro marite n'abantu bishimye iyo nzoga, hariho n'ibiranga aho iyo ikorerwa.

Umuntu upima inzoga ziri muri etajeri zigiye zitandukanye, zirimo inini, intoya zemerewe kuba waba abantu barengeje imyaka cumi n'umunani gusa.

Akabari karimo umuntu karimo na etajeri zirimo ibintu bigiye bitandukanye. Harimo inzoga ndende, n'ingufi zipimwa mu turahuri dutoya,

Inzoga y'ibinyobwa ya rikeri aho bakunda kuyikoresha baruhura mu mutwe, bicaye bagarira, mu kabari bakanayisuka no mu kirahure kugira ngo basangire neza.

Umuntu wicaye mu kabari karimo amatara atukura cyane n'ibiti inyuma ye nawe ari kuri telefone arimo arebamo.

Abantu bari mukabari mungeri zitandukanye harimo abagore abagabo abakobwa bankwa inzoga bareba umupira kuri televiziyo.

Akabari karimo inzoga zigiye zitandukanye, harimo inzoga nini, intoya, n'izo bapima ku turahure iyo bagiye kuzinywa zinezeza abantu bakarwara no mu mutwe.

Ahacururizwa inzoga zisindisha ibidasindisha abantu bashobora kugana bagiye kwidagadura kureba imipira y'amaguru inzoga zisindisha zikaba zitemerewe abagore batwite.

Akabari karimo inzoga y'ubwoko bwa jemusi, itangwa mu turahure harimo n'ugura, aho ifasha umuntu kuruhuka mu mutwe neza.

Akabari gacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kunkwa biri mumavide ibiri mumacupa ibisindisha n'ibidasindisha n'ibyokurya bigiye bitandukanye.

Ahabera imyidagaduro igiye itandukanye kureba umupira w'amaguru, kunywa inzoga, hakaba hagana abantu bafite icyaka bagira ngo kigabanuke hacururizwamo ibinyobwa n'ibiribwa.

Akabari gacuruza inzoga zigiye zitandukanye harimo izo mu mavide n'izo mu macupa, aho zitangirwa hakaba habujijwe ko umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani atemerewe kuhagera no kunywaho.

Akabari karimo inzoga zigiye zitandukanye indende, inini n'ingufi ziteretse hejuru ya kontwari.

Icyapa kirimo inzoga yo mu bwoko bwa sikoro marite n'abantu bishimiye iyo nzoga kandi bibujijwe ko umuntu uri munsi y'imyaka cumi n'umunani ntiyemerewe kuyinywaho.

Icyapa kiranga akabari cyanditseho amusiteri biya iri mu ivide, iri mu kirahore, n'aho baherereye, n'uko wabahamagara kugira ngo ubabone ubakeneye.

Akabari kabamo inzoga zigiye zitandukanye, harimo inzoga nini, n'intoya, iziri mu macupa n'iziri mu mavide, aho abantu baza baje kuruhura mu mutwe bakareba n'umupira.

Uburyo bakoresha bashaka kumenya amakuru y'umuntu cyangwa ikintu biciye muri sikaneri, bakabona ibimuranga cyangwa ibiranga icyo kintu.

Aho bafatira ibyo kunywa cyangwa icyo kurya mu buryo bugiye butandukanye. Abashaka kuruhuka mu mutwe bakaharuhukira, mu bintu bigiye bitandukanye, mu bihe bitandukanye.

Akabari karimo abantu bagiye batandukanye harimo n'inzoga zigiye zitandukanye, harimo inzoga nini, intoya ziri muri kotwari n'izitangwa mu turahure dutoya.

Icyapa kiranga akabari kiriho izina ryako na nimero wabahamagaraho mu gihe waba ubakeneye no kuza ...

Abantu bari mu kabari, baje kuruhura mu mutwe no gufata icyo kunywa, kiri mu moko agiye atandukanye, bakanabyina, bagasusuruka, bakanaruhuka neza.

Umukobwa uri mu kabari muri kotwari n'abandi bari inyuma barimo kunywa inzoga zigiye zitandukanye, iziri mu mavide n'iziri mu birarahure.

Imashini y'ikoranabuhanga ikoreshwa kugira ngo hishyurwe hakoreshejwe ikarita ya banke cyangwa mpuzamahanga.

Icyapa kiranga akabari n'izina ryako gacuruza inzoga ziri mu bwoko bw'amusiteri harimo n'ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Akabari karimo abantu babiri bari kureba televiziyo na etajeri irimo inzoga zigiye zitandukanye, inini n'intoya na firigo.

Abantu bicaye mu kabari bagiye batandukanye harimo: abagabo, umugore bafite fanta ziri mu ivide no mu birahure.

Agapapuro kaba kariho ibiciro by'ibintu bigiye bitandukanye, ibyo kurya, n'ibyo kunywa, n'ibiciro bigiye bitandukanye, ugahitamo bitewe n'icyo wakunze.

Icyapa kiranga akabari n'ibyo gakora n'ibikorerwamo na nimero wabahamagaraho, ubaye ukeneye kuhasohokera cyangwa kujya kwiyakirirayo, aho hari ibiribwa bigiye bitandukanye.

Akabari kicayemo abantu benshi, bategereje ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo kwaka amatara menshi hejuru.

Ipipapuro gikoresha kugira kereke abakiriya ibintu bihari uko bimeze harimo ibyo kurya ibyo kunywa bagashyiraho n'ibiciro by'ibyo bintu barimo berekana bafite.

Akabari gacururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kunkwa nibyo kurya ibiri mumavide nibiri mumacupa ya purasitike aho abantu baza bakaruhukira.

Akabari habere imyidagaduro igiye itandukanye kureba imipira y'amaguru, kunywa inzoga, abatanywa inzoga bakanywa ibidasindisha, ibisindisha bikaba bitemerewe abagore batwite.

Inzoga zirimo amoko menshi. Harimo inzoga iri mu ivide rya virunga, isutse mu kirahure kinini umuntu anywa; kugira ngo aruhure mu mutwe.

Ahari icyapa kiranga bare kiriho inzoga ya sikolo malite iri mu ivide n'abantu bari guserebura bishimye ikinyobwa gikunyuze ku isoko.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'imyambaro y'abagore aho arimo amakanzu akoze mu bitenge n'amashati agiye atandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo iby'umuco bya Kinyarwanda, imyenda ibikapu,...

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye ahaba hari inkweto zimanitse kuri etajeri harimo n'imyenda myiza y'ubwoko bwose .

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Imodoka iri mubwoko bwa toyota, hayilandi hiburide, yakozwe mu bihumb bibiri na cumi na kabiri, igurishwa aho hahishw ibiyiranga.

Uburyo bukoreshwa hagurishwa ikinyabiziga cy'imodoka aho hashyirwaho ubwoko bw'imodoka, n'igihe yakorewe, hagahishwa na purake yayo.

Inzu icururizwamo imodoka zigiye zitandukanye z'amoko yose zikiri nshyashya zivuye ku ruganda aho umukiliriya ayigura yizeye ko nta kibazo.

Ikigo cyangwa uruganda rukora imodoka z'igiye zitandukanye ruri mu Rwanda aho rukura imodoka hanze rukazizana mu Rwanda,

Uburyo bukoreshwa hagurwa ibinyabiziga bigiye bitandukanye bikiri bishya, aho ushobora kwifashisha banki cyangwa

Imodoka iri ku isoko igurishwa na nyirayo aho ashyiraho ubwoko bwayo kwe n'igihe yakorewe bibiri na cumi na kabiri, Mercedes Benz enz E magana atatu igurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu.

Uburyo bwo kubika amafaranga mu ntoki adashyizwe kuri banki cyangwa kuri telefoni. Aho umuntu ayatwara mu ntoki.

Amafaranga agiye atandukanye akorerwa mu gihugu arimo n'ikirango cy'aho akorerwa inote y'igihumbi irimo inyubako n'irimo inyamanswa.

Ahabikwa amata mu buryo bwizewe, aho ashyirwa mu cyuma kiyakonjesha ari mu kintu cyangwa ibintu, aho ashyirwa mu kabido ka ritiro eshanu.

Amata meza afunze mu dukarito tugiye dutandukanye aho aba abikanywe isuku mu buryo bwizewe biyarinda kwangirika no kujyamo umwanda.

Akabido ka litiro eshanu karimo amata meza yo mu ruganda afunze n'umufuniko harimo intungamubiri zitandukanye.

Ahatunganyirizwa amata, agatunganywa mu buryo bwiza bufite isuku, yateguwe neza. Ashobora guhita ananyobwa yujuje ubuziranenge, nta kindi gisabwe.

Ahacururizwa amata meza nibyo kurya byiza bifite intungamubiri ziri hejuru kuburyo ubifashe aba yirinze indwara zigiye zitandukanye.

Akantu k'agakarito gakoreshwa kugira ngo kabike neza icyo bita kirida, zifashishwa mu gukura inyama mu menyo cyangwa ibindi bintu byafashe mu menyo.

Ahatunganyirizwa amata naho abikwa mu cyuma cyabugenewe kiyakonjesha kugira ngo amata adapfa cyangwa akangirika akagumana intungamubiri zayo ku buryo bwizewe.

Icyuma gikonjesha amata kugira ngo kiyarinde kwangirika, agere ku bayaguze agafte intungamubiri z'umwimerere abafashe kumera neza.

Ahacururizwa amata y'inyange ari muri firigo harimo utubuni tumwe dutoya twarindwi u twa tatu mutwa litiro ebyiri na litiro imwe.

Indobo irimo amandazi akozwe mu ifarine atetswe mu mavuta afite intungamubiri, zigiye zitandukanye yifashishwa mu gufata ibya mu gitondo.

Utubido tw'amata turi mu ngeri zigiye zitandukanye harimo utwa litiro imwe, ebyiri, eshatu, n'eshanu n'uturi mu gakarito.

Umuntu uri mu nzu irimo icyuma gikoreshwa mu buryo bwo kubika amata cyiyakonjesheje kugira ngo ayo mata atangirika.

Cake ikoze mu ifarini ifatishijwe seriviete imeze neza ifite isuku kugira ngo iririnde aba amahirwe kuyirisha umwanda n'indwara ziterwa n'umwanda.

Keke zikozwe mu ifarini, ziri mu ndobo zifite intungamubiri zigiye zitandukanye, aho abantu bazifata ku bya mugitondo bazinywesha amata cyangwa icyayi.

Abantu bari gufata ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya biri ku masahane, n'ibyo kunywa biri mu bikombe bigiye bitandukanye.

Inzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibicuruzwa byo kunywa n'ibyo kurya harimo amaji, amata n'ibindi bintu.

Ahantu hari icyuma kibikwamo amata kugirango akonje adapfa harimo n' ibindi bigiye bitandukanye birimo; amagi, amazi, amabuni...

Ahari icyuma gikonjesha ibintu kugirango bidapfa nk'imbuto ibiribwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari amazi ya jibu ari mw'ijerekani.

Ahacururizwa ibintu bigiye bitandukanye ibiteretse ku meza, ikawa n'ibiri mu gatinwari harimo inaji na twisite.

Ji y'imbuto ikorerwa mu ruganda iri mu gikarit cya litiro imwe ikungahaye kuri vitamini c.

Umukobwa wahindukije umutwe, wisukishije wambaye ishati, yunamye ku meza, areba hirya.

Ahari icyuma cyagenewe gukonjesha amata kiyarinda ko yapfa, agatakaza intungamubiri z'umwimerere ziba zigenewe.

Capati zitetse neza, zifite isuku, zifite intungamubiri ziri hejuru, zikoze mu ifarini. Aho zifasha abazirya, kuzinywesha icyayi cya mugitondo,

Amata ari mu gapurasitike akorerwa mu ruganda y'itwa yogati arimo inkeri z'akinyarwanda.

Ibikoresho bakoresha batwara amata mu buryo bwizewe aho biyarinda ko hagira ikiyanduza cyangwa kikayangiza akagenda akagera aho agiye ntambogamizi.

Icyuma kifashishwa mu gukonjesha amata hirindwa ko yapfa, akabura ubuziranenge bw'intungamubiri, aho umuntu unyweye amata aba afashe intungamubiri zuzuye.

Akazu gafunze neza, karimo ibicupa by'amazi, inyuma ya ho bacururiza amata y'inyange.

Ahacururizwa amata aho byorohereza abantu kuyabona, ameze neza agifite intunga mubiri zayo zuzuye kuko bayakonjesha bakayabika ahantu h'umwimerere.

Ahacururizwa amata meza yo kunywa afite isuku akeye ari mu tubuni tugiye dutandukanye harimo utwa litiro eshanu no mu gikombe.

Abasore n'inkumi bicaye bari kunkwa amata ari mubikombe no mumajage ateretse ku meza.

Amandazi akozwe n' ifarini n' amavuta akaba aryoha agira intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri mu bihe bigiye bitandukanye mu ntungamubiri.

Abantu babiri bari mungeri zitandukanye harimo umugore numugabo bari kwamamaza amata agiye atandukanye y'ubwoko bubiri, aho ayo mata afite intungamubiri.

Isambusa cyangwa ibiraha bitetse neza bikoze mu ifarini, bigashyirwa mu mavuta bikagira intungamubiri ziri hejuru cyane kuko bifasha ababiriye kuba bameze neza.

Akabuni ka ritiro eshanu z'amata kaba kagizwe n'intungamubiri nyinshi kuko aba yakorewe mu ruganda ntakindi kintu kivangiyemo kidasanzwe cy'amazi.

Abantu batatu bari mu iduka, harimo abagabo babiri n'umukobwa umwe, bafite yahurute zigiye zitandukanye, harimo inini n'intoya.

Ahatunganyirizwa amata akabikwa neza, mu cyuma kiyakonjesha kikayarinda gupfa, kugira ngo agumane untungamubiri na vitamini.

Ahacururizwa amata meza yo kunywa, afite intungamubiri zigiye zitandukanye, hari n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, biri muri firig, harimo fanta, amaji, n'ibindi.

Ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye zo gucuruza amata, ari mu dukarito tw'ubwoko bwose haba harimo intungamubiri zigiye zitandukanye.

Amandazi atetse neza mu mavuta arimo intungamubiri zigiye zitandukanye, ikozwe mu mata ari ku isahane, asa neza acyeye.

Umuntu uri gukura amata mu ndobo ayashyira mu ijage, inyuma ye hari firigo yo gukonjesha kugira ngo amata adapfa.

Ahacururiza ibyo kurya biri mungeri zigiye zitandukanye, harimo ibyo kunywa bibikwa muri telemusi, ibyo kurya harimo capati.

Akaboko gafashe capati iri muri seriviyete impande yaho hari isahane itaretse ku meza n'igikombe.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Ibyuma byifashishwa mu kubika amata mu buryo bwizewe atagize ikibazo cyangwa ngo abe yapfa aho biyakonjesha akagumana intungamubiri.

Aha hari icyuma gikonjesha amata hirindwa ko amata yangirika cyangwa agapfa, aho kiyabika neza akagumana intungamubiri zayo.

Ahantu hacururizwa amaji agiye atandukanye ari muri etajeri, y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo amaji y'inyange, marite, fanta, novida, n'amazi.

Ahatunganyirizwa amata, hari n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo amazi manini n'amatoya, na ji zigiye zitandukanye ziri mu ducupa no mu makarito.

Ibikombe bikeye bifite isuku aho babisukamo amata meza ava mu kabuni afite intungamubiri nyinshi cyane ko afasha abantu gukura neza no kugira imibereho myiza.

Amata ari mubyiciro bigiye bitandukanye hari ari m'utubuni nari m'udukarito harimo ritiro ebyiri ritiro imwe ritiro eshatu na ritiro eshanu.

Aho batanga amata bari kugenda bayasuka mu bintu bigiye bitandukanye harimo; indobo, ijerekani, ijage, hirya hari umurima uteyemo igiti.

Uburyo bukoreshwa hapimwa amata, ngo barebe ko amata agifite ubuziranenge; ataba yangiritse, akaba agifite intungamubiri, zisanzwe zibonekamo, abantu...

Ahakusanyirizwa amata mu cyuma kiyakonjesha, kugira ngo amata adapfa agumane umwimerere n'ubuzima.

Aha ni ahantu hacururizwa amata harimo umuntu uri kuyasuka mundobo n'umuntu uri kuri telefone, hari n'ibindi bicuruzwa biri mukabati harimo amverope amandazi na juice n'amata ari mugakarito.

Keke ivuye mu ifuru, ikoze mu ifarini nziza, ifite intungamubiri zitandukanye, igiye kunyweshwa amata meza, ari mu gikombe, afite isuku, akeye.

Ahatunganyiriza amata y'umwimerere, afite ubuziranenge, aryoshye, agirira umubiri akamaro, wahagera ukahasanga n'ibindi wayanywesha.

Amapaki arimo ibintu bigiye bitandukanye; amandazi keke, byifashishwa mu gufata ibya mu gitondo. Kugirango umuntu abyuke ameze neza.

Ahatunganyirizwa amata hagakonjeshwa kugira ngo abikwe neza biyarinde gupfa kwangirika, harimo n'amazi agiye atandukanye harimo amazi ya Nile n'ayabel.

Umuntu uri ahantu hari icyuma gikonjesha amata kugira ngo adapfa harimo amandazi, keke, firigo, n'ameza n'intebe, n'ijerekani n'utubuni.

Amata meza ari kunywebwa n'abana ari mu tubuni tugiye dutandukanye, aho amata aba arimo intungamubiri zigiye zitandukanye zifasha abana gukura neza.

Ahatunganyirizwa amata yujuje ubuziranenge, akaba akonjeshwa kugira ngo agumane umwimerere wayo, intungamubiri zigirira umubiri akamaro zigiye zitandukanye.

Ahatangirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, hari abantu benshi, ibiti, amabati asa icyatsi, n'abari kwakirwa.

Umuntu ucururiza ahafatirwa ibya mu mugitondo byo kurya; harimo amata, icyayi, ishyushyu n'ibindi bigiye bitandukanye nk'amandazi na capati na keke.

Umuntu utanga amata ari kuyasukira umuturage mu ijage imwe ayakura mu yindi iteretse hejuru ku meza mu idirishya.

Ahacururizwa ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo amata, yahurute, amasambusa, n'ari mu kabido k'arindwi, n'amaji, n'amakeke.

Amacupa y'amazi ateretse ahantu hamwe afunze neza yo mu ruganda yanditseho aho akorerwa

Umuntu uri mu nzu ya kinyarwanda, imbere ye hari amata agiye atandukanye, harimo aya litiro imwe, litiro eshatu na litiro eshanu n'udutoya twa yawurute.

Ahatangirwa amata meza afite intungamubiri zigiye zitandukanye kugira ngo umuntu akure neza agafatishwa amandazi n'ibindi bigiye bitandukanye biri muri firigo.

Umuntu uri kunywa akaji gatoya bita yogati, gafite intungamubiri nyinshi, gakorerwa mu ruganda.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye itandukanye. Biri muri etageri, harimo ji ziri mu dukarido, n'amata yo mu ikarito, amazi n'ibiri mu ndobo nk'amandazi.

Ahatunganyirizwa amata n'ibiyakomokaho ibyo kunywa bitandukanye, akaba akonjeshwa kugira ngo ubuziranenge bwayo bwiyongere n'intungamubiri zigize amata.

Isahane iriho keke, ikanya, ikiyiko, igikombe kirimo icyayi.

Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Uburyo bukoreshwa na banki imwe yo mu gihugu, ubitsa wohereza amafaranga cyangwa uguza, aho ujya kuri telefone yawe cyangwa se mudasobwa.

Uburyo bukoreshwa wishyura wakoresheje ikoranabuhanga aho ushobora kwishyura ukoresheje terefone igendanwa cyangwa mudasobwa

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa wishyira ku rubuga rugiye rutandukanye, aho ushyiramo nimero ugashyiramo n'amazina.

Igipapuro gitangwa muri serivisi za Leta, gisobanurira abaturage ibyo bagomba gusora n'uburyo bigomba gusorwamo n'amafaranga abitangwaho, uko bigiye bitangukanye.

Icyangombwa gihabwa usoze mu misoro ya Leta, aho ahabwa icyerekana ko yakoze, kimufasha gukora neza nta mbogamizi.

Igipapuro cyifashwishwa herekanwa ibikorwa bigiye bihari n'amasomo agiye atandukanye, bitagombeye kujya kubishaka.

Igipapuro gitangwa na banki aho bashyiraho amazina y'ubikije cyangwa ubifuje igihe bikorewe na banki bikorewemo.

Igipapuro gifasha umuntu kubona amafaranga yagiye akoresha, ayo yohereje n' ayo yabikuje bitamugoye.

Icyangombwa gitangwa n'ikigo gishyinzwe imisoro mu Rwanda, cyerekana ko umuguzi cyangwa umukiriya nta deni afitiye Leta,

Igipapuro gitangwa kerekana uburyo amafaranga yagiye akoreshwa mu buryo bugiye butandukanye yohererezwa ahantu hagiye hatandukanye.

Uburyo bugaragaza uko amafaranga ari kuvunjishwa ku isoko ry'imari n'imigabane, aho hajyayo ibihugu bigiye bitandukanye, n'amafaranga yabyo uko agenda akorerwa avunjwa.

Uburyo bukoreshwa bwo guhererekanya amafaranga ku banyamahanga bavunjisha bagahabwa ahwanye n'igihugu bagiyemo.

Uburyo bukoreshwa hatangwa amafaranga ajyanye, aho umuntu azana amafaranga y'igihugu avuyemo, akaba yahabwa amafaranga y'igihugu yinjiyemo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga aho umuntu azana amafaranga bitewe n'igihugu avuyemo bakamuha amafaranga y'igihugu agiyemo.

Uburyo bukoreshwa bavunja amafaranga agiye atandukanye ava mu bihugu bigiye binyuranye, aho ufata amafaranga uvanye mu gihugu.

Inyubako ikoreramo kampani ishinzwe gutanga amafaranga iyahinduranya, aho umuntu azana amafaranga yo mu gihugu avuyemo, bakamuha ayo mu gihugu ashaka kujyamo.

Uburyo bwo kuvunja amafaranga ahantu hagiye hatandukanye, aho bashyiraho ibiciro by'uko amafaranga avunjwa bitewe n'aho uyakuye n'ayo ugiye gushaka.

Inyubako ikorerwamo guhinduranya amafaranga, aho umuntu azana amafaranga y'igihugu avuyemo bakamuha ay'igihugu arimo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bigurwa bigashyirwa mu nzu kugira ngo ube ahantu hasa neza, hakeye, harimo intebe, imisego na televiziyo.

Ibikoresho byo mu nzu babikoze mu buryo bugiye butandukanye ibyifashishwa mu gutekarekaho amavaze arimo indabo.

Inyubako yakirwamo abantu bagiye batandukanye abaturutse hanze n'abo mu gihugu imbere, aho bacumbikirwa bibafasha kuruhuka mu mutwe no kuba.

Ahari inyubako ikoreshwa na ba mukerarugendo cyangwa abanyagihugu bashaka kuruhuka bikabafasha kumera neza mu mutwe aho batekereza neza.

Inyubako cyangwa inzu yifashishwa mu kuruhukiramo n'abanyamahanga iyo baje mu gihugu,

Inyubako ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye Aho abanyamahanga bashobora kwishyura mbere igihe bavuye iwabo kugira ngo nibagera nibagera mu gihugu bagiyemo babone inzu baruhukiramo.

Ahari ibiro by'ubwishingizi mu nyubako bufasha abagize ibibazo bigiye bitandukanye harimo ibyo mu muhanda n'iby'inyubako.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Ikigo cy'ubwishingizi gishinzwe gufasha abantu mu gihe hagize ibibazo bigiye bitandukanye harimo gukora impanuka.

Company y'ubwishingizi ishinzwe gufasha abantu mu gihe bagize ikibazo ibintu byabo byahiye cyangwa bakoze impanuka babafasha kubishyurira.

Sosiyete ifasha abaturage kubishingira mu bikorwa bigiye bitandukanye aho yishingira amazu, amamodoka mu gihe byaba bihuye n'ibibazo, nk'imodoka ziri mu muhandda zikagongana n'amazu yahiye.

Sosiyete ishinzwe gufasha abantu, kubishyurira mu gihe baba bahuye n'ibibazi, ari yo bitauwisingizi. Rero yishingira ibinyabiziga, amazu, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo gifasha abantu kubishyurira muburyo bugiye butandukanye bitewe nibyago bagize harimo gukora impanuka gushya kwinzu nibindi.

Inyubako ikorerwamo na sosiyete ishinzwe kwishingira abantu, mu bintu cyangwa abantu, aho ifasha abayiganye kwishyura ibyangiriritse.

Ibiro bya kampani ishinzwe gutanga ubwishingizi ku bigo bigiye bitandukanye n'amamodoka, aho baba bateganya ko bishobora guhura n'ibyago byo gukora impanuka cyangwa bigashya.

Ahakorerwa na sosiyete ishinzwe ubwishingizi mu baturage, aho ifasha abantu bafite ibinyabiziga kugira ngo nibahura n'ikibazo ibafashe.

Impapuro zitangwa na banki zerekana inguzanyo n' igihe izamara harimo n' amabwiriza y' uburyo izishyurwa.

Uburyo bwizewe butangwa na sosiyete ya kampani ya mtn abantu baguza bakanabitsa.

Ahakorera ibigo bishinzwe gutanga amafaranga ku buryo bugiye butandukanye harimo kuguriza, kubitsa, ndetse no gufasha abaturage.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibijyanye n'umuco, amakarita, udutebo, imyenda.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abaturage baba bavuye ahantu hagiye hatandukanye, bazanye ibicuruzwa birimo imyanya,

Isoko ricururizwamo n'abaturage bagiye batandukanye, haba harimo ibintu bigiye bitandukanye harimo imboga, ibijumba, ibishyimbo.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye aho abaturage bazana ibicuruzwa birimo , inkweto, imyenda.

Isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye by'umuco harimo ibya kinyarwanda harimo amakarita ashushanyijeho, udutebo, uduseke..

Ikarita itangwa na emutiyene n'uburyo bakoresha bw'ikoranabuhanga batagombeye kwandikamo nimero bagashyiraho kamera ya telefone ikaba yabafasha kubona uburyo bwo kwiyishyura.

Ikarita ihabwa umucuruzi iba iriho kode n'amazina bye kugira ngo bifashe umugurira kwishyura badahenzwe.

Akazu ka MTN gakoreramo umukozi wayo ushinzwe gutanga serivisi zigiye zitandukanye harimo kubitsa, koherereza no kubikura.

Akazu ka emutiyene gokoramo umukozi wabo utanga seivise zigiye zitandukanye, harimo zerivise zo kohereza amafaranga kubitsa no kubikuza.

Abantu bari ku kazu ka MTN, ahatangirwa serivisi zitandukanye, harimo amayinite, kubitsa, kubiyikuza no kohereza.

Ikarita ya MTN iba iriho kode n'amazina by'umucuruzi, akoresha yishyurwa n'umukiriya ibyo yaguze.

Ahantu abakozi ba mtn batangira ibihembo bigiye bitandukanye babigeza ku baturage n'amacupa y'amazi imipira n'ibindi bihembo bi bitandukanye baba bateganyirije abakiriya.

Utuzu tubiri dutandukanye aka MTN n'aka Airtel zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zo kohereza amafaranga, kubitsa no kubiku.

Ahatangirwa impano zigiye zitandukanye, za emutiyene ku bakoresha umuyoboro wayo, baba baratsinze, baranitwaye neza.

Akazu ka Emutiyeni, karimo abantu abiri n'umukiriya, batanga serivisi zo gutanga amayinite, no kubitsa, no kubikura.

Akazu ka emutiyene gacururizwamo serivise zigiye zitadukanye harimo zo kubitsa kubikuza no kohereza amafaranga.

Akazu ka MTN gakorerwamo serivisi zitandukanye, harimo kubitsa, kubikura, koherereza amafaranga.

Abantu bari ku kazu ka emutiyeni, baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye, harimo amayinite, kubitsa, kubikura, no kohereza.

Uburyo bukoreshwa abakozi bo mu kicaro bafasha abaturage kubona ubufasha bugiye butandukanye aho babereka uko bakwishyura, bakabikuza, bakanohereza.

Uburyo bukoreshwa na emutiyene bifashishije kode kugira ngo worohereze abakiriya kwishyura ibintu bigiye bitandukanye byatanzwe n'ababigurisha muri kampani yabo.

Abakozi ba MTN bafasha abakiliya kubasobanurira uburyo bwiza bwo gukoresha MOMO Pay wishyuye neza udakaswe..

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo, uhagaze iruhande rwa moto, inyuma ye hari icyapa cya emutiyeni, kiriho imodoka.

Umukozi wa emutiyeni urimo gusobanurira umuturage, uko serivisi zikora n'uburyo babitsa boherezaho amafaranga, ukabikuza mu buryo bugiye butandukanye.

Ikarita itangwa na MTN iri kwerekwa abakozi uburyo batanga kode, bagashyiraho n'amazina ya nyirikode kugira ngo byorohere abakiriya kwishyura badahuye n'imbogamizi zo gukatwa.

Abakozi b'ikigo cyikorera cya emutiyeni bagiye batandukanya hirya no hino bafasha abaturage mu bintu bitandukanye bigendanye na emutiyeni yayo.

Uburyo emutiyene ikoresha ihemba abakiriya bayo ko bakoresheje umurongo wabo bakawukoresha babikuza, babitsa, banohereza amafaranga ku bantu.

Aho abantu, batomborera ibintu bigiye bitandukanye muri emutiyene, kugira ngo serivise abakiriya bahabwa zikomeze zibanezeze bakunde umuyoboro.

Akazu ka MTN gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye harimo; kubitsa, kubikuza no kohereza amafaranga kubaje babagana.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Emutiyeni, bakoresha bishyura ibicuruzwa, bakoresheje kode ya momo peyi.

Abantu bari mungeri zitandukanye harimo abagabo, abagore baje ahatangirwa serivise za Airtel mani (money) kuri serivise senta (service center).

Akazu ka emutiyene gakorerwamo n'umukozi wayo kugira atange serivisi zigiye zitandukanye zirimo gutanga amanite, kubitsa no kubikura.

Abakozi ba MTN bari mu kazu bagenda bamamaza ibigiye bitandukanye bari gutanga harimo amacupa y'amazi, amajire, udukapu n'imipira.

Abakozi ba MTN, batanga serivisi zigiye zitandukanye, zirimo gutanga ibihembo, gutanga amayinite, kubikuza no kwegereza abakiriya.

Uburyo bukoreshwa umuntu yoherereza amafaranga kuri MTN Mobayilo Mani, aho ushyiramo nimero, bakakwereka amazina y'uwohererejwe, n'amafaranga wohereje

Akazu ka mtn gakorerwamo serivise zigiye zitandukanye harimo gutanga amayinite kubitsa, kubikura, no koherereza amafaranga mubice hirya no hino bigiye bitandukanye.

Ahatangirwa ubufasha bugiye butandukanye harimo ubufasha bw'ikigo k'irembo, ikigo cya banki zikorera ku giti cyabo, nko kwandikisha ubutaka n'izindi n'ubundi bufasha bugiye butandukanye.

Akazu ka mtn kari ku muhanda gatangirwamo serivise zigiye zitandukanye harimo iz'amayinite ,kubitsa , kubikura .

Ku Kicaro cya MTN, aho abakozi, bake bakirira ibibazo bigiye bitandukanye, by'abaturage,..

Ikarita ya momo payi iriho amazina y'uwishyurwa na kode wishyuriraho ibicuruzwa.

Akazu kariho icyapa cya MTN cyerekana imibare wakanda ngo wigurire intaneti ya foji.

akazu ka emutiyene bafashirizamo abakiriya mu buryo butandukanye, kugura simukadi, kugura amayinite, kubikuza, kubitsa, no kubabaruraho amasimukadi ku ndangamuntu zabo bwite.

Akazu karimo umukozi wa emutiyene n'umukiriya uje gusaba serivize zigiye zitandukanye zirimo koherereza no kubikuza.

Akazu ka MTN karimo umukozi utanga serivisi zigiye zitandukanye harimo gutanga amayinite, kubitsa, kubikura no kohereza.

Akazu ka emutiyeni gatangirwamo ubufasha bugiye butandukanye aho umuntu aza kubitsa, akabikuza, akohereza amafaranga aho yaba ari hose mu gihugu bitamugoye.

Aho abakozi ba emutiyeni bateraniye barimo baganira ibibazo abakiriya bahura nabyo banasobanurira abakiriya uburyo bakoresha serivise zabo bitabagoye.

Ikarita ya emutiyeni, ihabwa umukozi ucuruza, kugira ngo ayifashishe mu buryo bwo kwishyuza abakiriya, badahenzwe, ntan'icyo bakaswe.

Ahakorera abakozi ba emutiyeni, bafasha abakiriya kubona serivisi zigiye zitandukanye, harimo guswapa simukadi, kohereza amayinite, kubikuza no ku.

Akazu ka emutiyene karimo umukozi wa emutiyene, utanga serivise zigiye zitandukanye zirimo gutanga amayinite, kubikura no kubitsa.

Umugabo uri kwigare, wishimiye ibihembo yahawe na sosiyete ya emutiyeni, aho arimo araseka kubera serivise nziza itanga harimo; izo kugura amayinite, kubitsa, kubikura, no kohereza.

Akazu ka emutiyeni gafunguye gakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo kubitsa, kubikuza, no kohereza

Umuntu ukora akazi ko kubarura simikadi za emutiyene akanabika, akanabikura, akanohereza amafaranga umukiriya uje umugana.

Ahakorerwa tombora, uruziga ruba rwashyizweho n'abakozi ba MTN berekana uburyo wabonamo amahirwe yo gutsinda icyo wifuza.

Muri savisenta ya eyeteri mani ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye aharimo akabati, harimo amatelefone n'ikarita y'amamaza eyateri.

Abantu babiri harimo umwe uri kwishyura akoresheje emutiyene mobayiro mani ibintu bigiye bitandukanye, harimo amaji, ari muri firigo akonje, aba ameze neza biyarinde gupfa.

Umutaka wa emutiyene ahari abakozi bayo bari gutangira serivisi zigiye zitandukanye, harimo n'ibihembo ibi bikurikira; harimo imipira, n'ingofero n'udukapu.

Akazu ka eyateri gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zirimo kubika, kohereza amafaranga, no kubikuza aho bifasha abakiriya kubona servisi batagiye kure.

Ikicaro cya emutiyeni, ahatangirwa serivise zitandukanye, zijyanye no kubitsa, kubikuza, guswapa simukadi, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Uburyo bwo kugura no kwishyura ukoresheje momo peyi nta mafaranga uciwe wakoresha n'ikarita mpuzamahanga.

Akazu karimo umukozi wa emutiyeni, ukora serivisi zitandukanye, ahiza abakiriya. Kubika, kubikuza, no kohereza.

Akazu ka MTN gakorerwamo serivise zigiye zitandukanye, harimo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga aho uri hose mu gihugu.

Umuntu uri mu kazu gatangirwamo impano ka emutiyene, zirimo: ingofero, uducupa, amajire, udukapu n'amakarita.

Akazu ka MTN, kariho abakozi babiri batandukanye umwe w'umukobwa n'undi w'umugabo batanga serivisi zamayinite no kubitsa no kubikuza.

Abakozi ba mtn baje kwegera abaturage aho batuye kugira ngo babafashe mu bibazo bafite byerekeranye no kohereza, no kubikuza no guswapa simukadi.

Ahari abantu benshi baje ku kicaro cya emutiyeni basobanuza ibidasobanutse mu buryo bwa serivise batanga harimo iz'amayinite, kubitsa no kubikura.

Abakozi ba MTN bashinzwe gufasha abaturage kubarura simukadi no guswapa aho bari hose bitabagoye.

Abantu bari ku kazu ka emutiyeni, batandukanye, harimo abagabo, abagore, baje gushaka serivisi z'amayinite, kubitsa, kubikuza.

Akazu ka MTN gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, harimo izo kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kubitsa no kubikura.

Uburyo bukoreshwa hishyurwa mu isoko ibintu bigiye bitandukanye, harimo inyanya n'ibindi bicuruzwa bakoresheje ikarita ya banki.

Ku kicaro cya emutiyeni aho abakozi batangira serivise zigiye zitanudkanye, baziha abaturage baturutse impande zose z'igihugu.

Gahunda ya emutiyene ifasha abakiriya bayo muri gahunda zitandukanye wazikora neza bakaguhemba igihembo k'igare.

Abakozi ba emutiyeni, bakorera kuri savisi senta, ahakirirwa abakiriya, bazanye ibibazo bigiye bitandukanye, kugira ngo bafashwe.

Ahari utuzu tubiri dutandukanye kamwe ka emutiyeni n'akandi ka eyateri dutangirwamo serivise zigiye zitandukanye harimo izo kohereza kubitsa no kubikura.

Ikarita ya MTN iriho kode wishyuriraho nta mafaranga yogukata baciye ku buntu.

Abakozi bakora mu cyicaro cya MTN, bambaye neza, basa neza imyenda y'umuhondo myiza, barimo bayobora abakiriya aho bagomba kubonera serivisi zibakwiriye.

Ikarita Momo Pay, ihabwa umucuruzi, iriho kode bakoresha bishyura n'amazina ya nyiri iyo kode wayihawe.

Uburyo bwifashishwa babumba ikintu ukoresheje ikoranabuhanga bakakikugezaho aho utuye bakoresheje icyuma kerekana amerekezo

Isoko ry'ikoranabuhanga ricuruza ibintu bigiye bitandukanye hariho n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa, harimo tangawizi igura bitanu na kokombure igura magana atandatu.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashisha kwagura ibintu bitandukanye harimo umugozi wo gushyira umuriro muri terefone na ekuteri.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorerwaho ubucuruzi bugiye butandukanye, ibijyanye n'ubuzima, ahariho udukoresho twifashishwa n'abakobwa igihe bari mu mihango.

Uru n'urubuga wakoresha uhaha byizewe online, hariho nimero wahamagara k'ubuntu, hariho na nimero ya watsapu wakoresha ubandikira, n'imibare wakanda kugirango ubashe gukurikirana ibyurwo rubuga.

Uburyo bw'ikoranabuhanga abantu bakoresha bagura ibintu byemewe n'amategeko biva hanze byinjira mu kindi gihugu bikagezwa ku babiguze.

Urubuga rukoreshwa n'abantu bifuza guhaha batavuye mu rugo aho batumiza ikintu bakishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga bakoresheje terefone cyangwa mudasobwa.

Ukora akazi ko gutwara ibintu byaguriwe ku mbugankoranyambaga abigeza ku babiguze mu buryo bwizewe kandi bufite umutekano.

Icyapa kiri ku modoka inyuma, kiranga ahacururizwa online na nimero wakoresha ubahamagara cyangwa ubandikira.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Akagare kifashishwa m'uburyo bugiye butandukanye mumasoko no mumaduka aho kifashishwa gatwara ibintu byo kurya n'ibyo kwambara.

Ikigo kikorera gifite izina ryitwa yegomoto, gifite moto zigiye zitandukanye hirya no hino abamotari bazifashisha bagemura ibintu bitandukanye, batwara abagenzi, hirya no hino mu gihugu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwizewe bwo gutumiza ibintu vuba vuba bikaba byakugeraho ntakiguzi aho watumiza ibyo kurya cyangwa ibyo kunkwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa mu buryo bugiye rutandukanye, harimo gufasha abakiliya gukora urubuga rwabo neza, gukora ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga.

Imbuga nkoranyambaga bakoresha bahahiraho ibintu bigiye bitandukanye, aho bashobora kwishyura bakoresheje telefone igendanwa cyangwa bagakoresha mudasobwa bishyura.

Isoko ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye birimo imineke, amashu, inyanya, amaronji n'imodoka.

Ibicuruzwa bicururizwa onolayini bigiye bitandukanye harimo; imyenda, inkweto, ekuteri, fulashe n'uturanga amerekezo.

Umu motari utwara ibyaguzwe ku rubuga rwa Vuba Vuba, abigeza kubabiguze kuri kampani.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, abantu bashobora guhahiraho, ibintu biva mu bihugu biri hirya kure yaho bari, n'ibiva hafi y'aho bari kugira ngo bibagereho bitabagoye.

Umuntu ufite kasike utwara ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi, n'imbuga wakoresha haba kureba ibyo bicuruzwa.

Urubuga rukorera ubucuruzi kumbuga nkoranyambaga rukora akazi ko gutwara ibintu kubabiguze babibagezaho murugo harimo ibintu bigiye bitandukanye ibitetse n'ibidatetse.

Urubuga koranabuhanga uguriraho ukanagurishirizaho aho ushyiramo igicuruzwa ukareba ikinjiye n'icyasohotse ugashyiramo igihugu ugashakisha.

Urubuga koranabuhanga ruhahirwaho ibintu bigiye bitanndukanye harimo; computer, ipasi, camera aho bariza ubaye ushatse kubahamagara cyangwa kubandikira.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo: inanasi, imineke, watarmelon, inyanya...

Urubuga wakoresha ugura ukishyura nyuma hariho aho warusanga kuri facebook twita insitagarame wanabahahamagara kuri nimero zikurikira.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa bagurishwa inzu, ubutaka, n'imodoka n'intebe zo mu nzu bitagombeye kuva aho uri.

Telefoni nk'igikoresho gikunzwe gukoreshwa mu ikoranabuhanga, yaba mu kwakira cyangwa mu kohereza amafaranga. Umuyoboro wa emutiyeni ushishikariza abawukoresha kuba bakoresha telefoni zigezweho, arizo ziba zikoresha enterinete kugirango babone serivise mu buryo bwihuse kandi bubanogeye.

Umumotari utwara ibintu byaguzwe, urubuga rw'ikoranabuhanga rwa Vuba Vuba, abigeza ku babiguze.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorerwaho guhaha ukoresheje telefone ngendanwa na mudasobwa, aho bakwereka ibiciro bitewe n'ikintu wahisemo.

Ikigo gishinzwe gutwara ibintu kibigeza ku bantu baba babiguze, bari mu rugo bategereje ko bibageraho bafite umutekano, kandi mu buryo bwizewe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga abantu bakoresha bahaha, ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kwambara bakishyura bakoresheje telefoni zigendanwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rucururizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye, ibiri mu gihugu n'ibituruka hanze y'igihugu bikagera ku babiguze neza.

Amaduka ari hirya no hino mu gihugu acuruza imyambaro, yaba iyo hasi cyangwa yaba iyo hejuru, wahagera uyishaka, ushaka kwambara bakakwambi ukaberwa.

Urubuga rw'irembo rukoreshwa n'abantu batari bake, bagiye batandukanye aho basaba serivisi mu buryo bwihuse, yaba iz'umuryango, iza polisi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga ureberaho ibijyanye no guhahaha aho umuntu agura ikintu ari mu gihugu kimwe akagikura mu kindi, akakijyana mu kindi gihugu yifashishije ikoranabuhanga.

Umukozi utwara ibintu akoresheje moto abikuye kuri kampani akabijyana vuba vuba abishikiriza ababiguze ntakiguzi kandi byihuse.

Moto ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa byaguriwe ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye harimo amazi yo mu icupa rya jibu na gaze.

Aho bafungurira, imbuga nkoranyambaga, mu bakire benda gukora cyangwa kampani zenda kubikoreraho, bakwigisha n' uko bazikoresha na nimero wabahamagaraho,

Urubuga rucuruza ibintu bigiye bitandukanye onurayini, harimo imipira, kuteri, telefone na televiziyo, ukishyura ukoresheje ikarita.

Moto ya kampani y'inyarwanda yitwa vuba vuba itwara ibintu ibigeza ku babivuze bishyuye mbere.

Ibintu bicururizwa onolayini bigiye bitandukanye n'ibiciro harimo imineke igura magana abiri, n'ibijumba bigura igihumbi magana abiri mirongo itanu.

Urubuga rw'ikoranabuhanga bakoresha bahaha ibintu bigiye bitandukanye, bakishyura bakoresheje telefone cyangwa mudasobwa.

Uburyo bukoreshwa hoherezwa ibintu byaguriwe ku ikoranabuhanga bikagera ku babiguze bitabagoye ntanikiguzi bisabye kuko kiba kiri mu byo bishyuye byose.

Umukozi utwara ibintu kuri moto abikuye muri kompanyi ishinzwe kubigezaho abantu baba babiguze onorayini bakeneye ko bibageraho batavuye aho bari.

Urubuga rukorerwaho ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo ibintu biba byasohotse uwo munsi n'ibimaze iminsi bisohotse, byose bigafashwa kugerezwa ku babiguze.

Uburyo bukoreshwa bwamamaza ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa utanga igitekerezo, ku buryo ubona byahindura imbuga nkoranyambaga.

Imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye bagura ibicuruzwa byashyizweho n'ababicuruza babishyiraho n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa bigurwa.

Ikigo kikorera kigemura ibiryo ugura ibiryo ku ikoranabuhanga bikakugeraho mu buryo bukoroheye utavuye aho uri kandi byizewe byujuje ubuziranenge.

Uburyo bukoreshwa hifashishijwe imbugankoranyambaga buri muntu akaba yagura ikitu, akeneye harimo imbuto, yahurute n'ibindi bigiye bitandukanye bikorerwa mu ruganda.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rucururizwaho ibintu bigiye bitandukanye, aho umuntu ashyira umwirondoro we kugirango amenye aho ibintu bye yaguze bizamusanga.

Uburyo bwo kugura itike onolayini harimo itariki, isaha, ahantu, n'itike, n'amafaranga, n'umwanya waguze.

Isoko rihahirwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo inkoko, ibitoki, ibishyimbo, inyanya, iroti.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa n'abantu bashaka guhaha batavuye mu rugo iwabo bakabigura bikabageraho mu buryo bworoshye.

Kampani ishinzwe gutwara ibintu kubabiguze, hariho aho ikorera na numero wabahamagaraho nimbuga nkoranyambaga wabakurikiraniraho ubakeneye.

Abamotari bakora akazi ko gutwara ibyaguzwe ku mbuga nkoranyambaga, babigeza ku bantu bakoresheje moto zikoresha amashanyarazi.

Imbugankoranyambaga zigurirwaho ibikoresho bya onurayini bigiye bitandukanye harimo imyambaro, inkweto, telefone, ekoteri n'ibindi bigiye bitandukanye.

Urubuga rucururizwaho rw'ikorana buhanga, ahacururizwa ibyo kurya bitetse ndetse n'ibidatetse, harimo inkoko, amagi,

Umu motari utwara ibicuruzwa abigeza kubabiguze muri kampani ntakiguzi cyo kubitwara kiriho.

Ibikoresho bakoresha mu nzu cyane cyane mu bwiherero, aho naho bakarabiraba, aho hari ibikoresho bakoresha boga.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rufasha abantu kubona amazu agiye atandukanye harimo agurishawa n' akodeshwa bikabarinda guta umwanya bashakisha ahandi.

Inzu itunganyirwamo ibintu bigiye bitandukanye aharimo ibyuma batekaho, ibishushya n'ibikonjesha biba biri munzu kugira ngo bitangirika bigumane umwimerere.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorerwaho mu buryo bwo gusakaza ibintu bigurishwa n'ibikodeshwa abantu bakabireba bitagombeye ko bajyayo.

Uburyo bwo kwamamaza bugiye butandukanye, aho umuntu afata inzu agashyiraho ikiranga ko iyo nzu igurishwa n'aho iherereye.

Uburyo bwo kwamamaza hakoreshejwe imbuga nkoranyambaga naho hashyirwaho inzu hashyirwaho aho iherereye naho ibarizwa n'amafaranga igurishwa.

Isoko rihahirwamo ibintu bigiye bitandukanye biba bibitse neza muri etajeri, haba harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro y'abana.

Ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kwambara, iby'ikoranabuhanga nk'amaterefone, mudasobwa n'amatere radiyo.

Ahahahirwa ibintu bigiye bitandukanye harimo inkweto zifunguye, imyenda y'abagore.

Inyubako y'ubucuruzi ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanyeye harimo ubucuruzi bw'imyenda inkweto.

Ikigo gishinzwe gufasha abantu kubarinda indwara aho umuturage aza akavuga indwara afite, bakamusuzuma bakamuha imiti imukwiriye.

Ikigo gishinzwe gutanga ubufasha mu baturage, aho abaturage bajya bagiye kwivuza ku bibazo bigiye bitandukanye bakoresheje ikarita yabugenewe itangwa n'icyo kigo.